Ahantu hahagaze umuntu w'umugabo, wambaye ingofero ndetse n'ipantaro n'ishati y'amaboko maremare, imbere y'iwe harunze ibyatsi byumye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara utubati dukozwe mu mbaho, hakaba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, utubido bifashisha bavoma.

Umurima ugaragara nkaho utaragira ikintu uterwamo na kimwe, haragaragara ikirundo cy'ifumbire yifashishwa mu kugira imyaka ikure.

Mu murima ahagaragara abantu batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ibase y'umukara ndetse n'indobo ebyiri zisa ubururu.

Mo imbere mu nyubako ishashemo amakaro, hakagaragaramo utubati dutandukanye hari akariho ikirahure mo imbere hakaba habitsemo ibintu.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo akabati gakozwe mu mbaho ndetse n'umuntu utagaragara mu gice cyo mu maso wambaye itaburiya yera n'agapira kera.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, hakagaragara umugabo wunamye wambaye umupira utukuye, akaba yambaye na bote z'umukara.

Mo imbere mu nyubako ahari icyapa kinini, cyometse ahantu, kikaba kiriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, hari agacupa kamwe gafite umufuniko w'ubururu.

Umufuka uteretse ahantu hasi, ukaba ufite ibara ryera, hari amagambo yanditseho y'imibare ndetse n'inyuguti, ari mu kabara k'icyatsi.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara ku bindi bice by'umubiri, akaba afashe ibintu bimeze nk'ifumbire mu kuboko, harimo agakoko bita umunyorogoto.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara utubati dukozwe mu mbaho tugiye tugabanyijemo ubuce bwinshi, hateretsemo ubwoko bwinshi bw'imiti ndetse n'amakarito arimo.

Ibiganza bibiri by'umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura ndetse n'ahandi, akaba afite ubwoko bw'ikimera bita tungurusumu zifashishwa mu bintu byose.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara akabati gakozwe mu byuma, hakaba hateretsemo utubido twinshi cyane, udusa umweru n'udusa umuhondo.

Umurima munini cyane urimo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hagaragaramo abantu benshi, harimo abadamu ndetse n'abagabo hari ufite akibo mu ntoki.

Umurima ugaragara urimo kimwe mu bimera biribwa, cyifashishwa mu guteka imboga ari cyo amashu, akagaragaramo abadamu bari gushyiramo ibyatsi.

Umurima munini ugaragara uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, haragaragaramo amashu atarakura akaba yifashishwa mu guteka imboga.

Umurima ugaragara uhinzemo amoko atandukanye y'ibimera biri ku murongo ariko bitarera neza, hakurya hakagaragara ibyatsi byinshi.

Umurima ugaragara urimo ubwoko butandukanye bw'ibimera ariko utarakura, haragaragaramo insina zifite ibibabi byumye n'inzu itagaragara neza.

Kimwe mu bimera bisanzwe bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, kikaba ari isombe akenshi bakirya bashyizemo inyama ariko babanje kugisekura.

Umurima munini ugaragara ukaba uteyemo kimwe mu bihingwa bakunda kwita intoki, ikaba zitareraho ibitoki byo kurya.

Umurima ugaragara urimo ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, kikaba kigaragara ko gifite amababi atoshye.

Umurima munini cyane ugaragara, ukaba urimo amoko atandukanye y'ibimera, hasi hakagaragara ibyatsi byumye ndetse n'ibiti biri hakurya.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibihingwa, nk'ikigaragara akaba ari kimwe mu bwoko bw'inyanya zifashishwa mu gutegura amafunguro.

Umurima munini ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera byiganjemo ibiribwa, hakaba hagaragaramo ikigori kinini cyeze cyifashishwa mu byo kurya.

Umugabo usa nk'aho akuzemo wambaye ingofero, afite terefone mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko magufiya afashe ku gitoki.

Umurima munini ugaragara hasi y'imisozi, hakaba harimo amabuye manini, ndetse harimo amoko atandukanye y'ibimera, ibigori ndetse n'ibishyimbo.

Umurima ugaragara munini cyane, hakaba harimo amoko y'ibihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi haragaragaraho ibibabi bisa icyatsi ndetse n'utundi dusa umweru.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, haragaragaramo intoki zifite amakoma yumye.

Umurima ugaragaramo amoko agiye atandukanye y'ibiti, hasi hakagiye hari uduti dutodutoya twumye ndetse hirya haragaragara urutoki.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, haragaragara amashu atarera neza.

Mu murima ahagaragaramo ubwoko butandukanye bw'ibimera byifashishwa muzima bwa buri munsi, hari ibiteye mu mashashi menshi asa icyatsi.

Umurima ugaragara uri ahantu mu ishyamba, ukaba uteyemo amoko menshi atandukanye y'ibiribwa, hakurya hakaba hari ibiti bihateye.

Umurima ugaragaramo kimwe mu bimera byifashishwa mu buryo bwo kuribwa nk'imbuto, gikorwamo kandi amoko atandukanye y'ibyo kunywa, kikaba cyitwa inanasi.

Umurima ugaragaramo kimwe mu bimera, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, yaba mu buryo bwo kuribwa no mu bundi buryo.

Ahantu ku musozi hagaragaraho ubwoko bwinshi bw'ibyatsi bya kimeza, hakaba hateyemo ibiti by'inturusu ariko bitari byakura neza.

Umurima ugaragaramo abantu benshi batandukanye harimo umugabo wunamye wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse na bote z'icyatsi.

Kimwe mu bihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi kigaragara mu murima akaba ari inyanya, hari izihishije ndetse n'izindi zidahishije.

Umurima munini cyane, ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hari ibibabi bisa icyatsi ndetse n'ibindi bisa umuhondo.

Umurima ugaragara ushashe hasi ibyatsi byinshi byumye bikaba byaravuye ku bisheke, hakaba harimo ibyeze cyane ku buryo byaribwa.

Amazu atagaragara neza asakajwe amabati akikijwe n'ibiti bitandukanye, hakagaragara umudamu wambaye umupira w'ingofero.

Umurima munini ugaragara uteyemo ubwoko bumwe bw'ikimera, ari bwo umuceri, hejuru ni amababi asa umuhondo, hasi akaba asa icyatsi.

Umurima munini uteyemo kimwe mu bihingwa biribwa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibinyampeke ari cyo umuceri, ukaba wifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera bita ikigori, bikaba bihateretse ari byinshi, byifashishwa mu gukora ibintu byinshi ndetse bikanaribwa kuko bivamo n'ifu y'akawunga.

Uducupa tubiri duteretse ahantu turi mu ibara ryenda gusa umweru, inyuma hakaba hometseho udupapuro tugaragaza amagi ariho.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara ku bindi bice by'umubiri we, akaba afashe agacupa kari mu ibara ry'umweru, gafite ibintu bishushanyije inyuma.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza ku bindi bice by'umubiri, akaba afite agakarito gafite ibara ry'umutuku ndetse n'imwe mu matungo bita inka ishushanyijeho.

Intoki z'umuntu utagaragara ku bindi bice byo ku mubiri we, akaba afashe ku kabido gafite ibara risa ubururu n'umufuniko wera.

Akabati gakozwe mu mbaho kagaragaramo amoko menshi y'uducupa ndetse n'utudobo, bikaba byifashishwa mu kubika ibintu bitandukanye.

Ukuboko k'umuntu utagaragara neza bishoboka ko yambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afashe agashashi mu ntoki karimo umuti.

Agacupa kagaragara gasa umweru, kakaba kariho icyapa gishushanyijeho amwe mu matungo bita inka ndetse n'intama, hari amagambo yanditseho.

Agacupa gateretse ahantu h'umweru, kakaba kometseho agapapuro kariho igishushanyo cy'inka ndetse n'amagambo menshi yanditseho.

Umufuka ushushanyijeho itungo ry'ingurube, bigaragara yuko harimo ibiribwa zifashisha mu kurya ndetse hakaba hagaragara ingurube eshanu.

Agakarito gateretse ahantu, kakaba kariho ibintu byinshi bikanditseho hariho n'igishushanyo kiguruka cy'igisiga, iruhande hakaba hari agacupa gakozwe mu kirahure.

Ukuboko k'umuntu utagaragara mu bindi bice, akaba afashe agacupa kariho icyapa cyanditsweho amagambo atandukanye, yerekana ibibikwamo imbere.

Umurima ugaragaramo kimwe mu bwoko bw'ibihingwa biribwa, akaba ari ikigori cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hari umudamu wagifasheho.

Umudamu wambaye umupira w'amaboko magufiya akaba afite imisatsi iboheshejwe indodo, akaba ari mu mirima irimo imyaka itandukanye.

Umurima munini ugaragara, hakaba harimo ibyatsi bya kimeza, haragaragaramo abantu bari kuwukoreramo isuku n'ibiti biteye ku ruhande.

Umurima ugaragara hakaba harimo abadamu bafite amasuka bakaba bari guhinga, harimo uwambaye ijipo irimo utubara tw'umutuku n'umweru.

Umusore ugaragara uhagaze mu murima uhinze, akaba afite isuka mu kuboko yambaye ikabutura ndetse n'umupira utukura w'amaboko magufi.

Ahakorerwa ubuhinzi hasa nk'ahasakajwe n'akantu kabonerana gafashwe n'ibiti bihagaze n'ibindi bitambitse, haragaragaramo abantu batatu.

Umurima ugaragara munini uhinzemo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hakagaragara intoki n'ibiti n'abantu batagaragara neza.

Umugabo uhagaze ahantu akaba yambaye bote zisa umukara, n'umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro n'ingofero y'umukara.

Umusore wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'amaboko magufiya w'icyatsi, afite igitiyo ari kuyora itaka arishyira ku mufuka.

Umurima bigaragara yuko ari bwo ukimara guhingwa, hakaba nta kimera na kimwe kirimo, hakurya haragaragara ishyamba ririmo ibiti.

Umurima ugaragaramo amoko menshi y'ibihingwa, hakaba harimo abagabo babiri bafite amasuka, umwe yambaye ingofero na bote z'umukara.

Umurima ugaragaramo abadamu ndetse n'abagabo, bose bafite amasuka bari guhinga, inyuma yabo hakagaragara insina, imbere hari agakoresho k'umupanga kaharambitse.

Mu murima ahagaragaramo abantu batandukanye, akaba ari abagabo ndetse n'umukobwa wambaye ijipo yo mu gitenge, harimo utubara tw'umuhondo.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere yayo ari ikigega cy'umukara cyifashishwa mu kubika amazi.

Ukuboko k'umuntu utagaragara mu bindi bice by'isura akaba ari ahantu mu murima uhinzemo kimwe mu bihingwa by'ibiribwa bita ibirayi.

Umurima uhinzemo ibimera bitandukanye, hakaba hagaragara umugabo umwe usutamye ndetse n'abadamu babiri bakenyeye ibitenge.

Umurima ugaragaramo kimwe mu bimera bakunda kwita ikigori, harimo umudamu ufite isuka akaba yambaye igitenge ari guhinga.

Umugabo ugaragara wambaye agatuza ndetse n'ipantaro afite isuka ari mu murima guhinga, imbere ye hari intoki zihari ndetse n'ibiti bimuri inyuma.

Umurima ugaragara uteyemo kimwe mu bihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi akaba ari ibishyimbo, hari umugabo uhagazemo wambaye umupira w'amaboko magufi.

Ibiti bihagaze ndetse n'ibindi bitambitse, bigiye bizirikanyije imigozi, haragaragaraho kimwe mu bimera bita ibigori.

Umusaza ugaragara ko akuze cyane, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikote, akaba yicaye yegamye ku rukuta, ruriho idirishya rikozwe mu byuma.

Umurima munini ugaragara uhinzemo amoko atandukanye y'ibimera, hakagaragara umugabo wambaye umupira utukura, n'ipantaro y'umukara.

Abagabo bahagaze imbere y'imifuka yuzuyemo, kimwe mu bwoko bw'ibimera biribwa ari cyo, inyanya zifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo imifuka myinshi irunzemo ibinyampeke, ikaba isa umweru, haragaragaramo abagabo babiri bambaye amasurubeti.

Kimwe mu bwoko bw'ibihingwa byifashishwa mu kuribwa bikaba biri mu mifuka y'imyeru ifite imirongo isa umuhondo mu mbavu, akaba ari amavoka.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hari ibyatsi, umwe akaba yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro, imbere y'iwe hari imiba y'inkwi.

Abantu batagaragara mu bice byo mu isura, bisa nkaho bari kujonjora kimwe mu bihingwa, hari uwambaye umwenda urimo amabara y'umuhondo n'umukara.

Umurima munini ugaragara uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibimera, hakaba hagaragaramo n'ibyatsi byinshi, hirya hakagaragara insina zitareraho ibitoki.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, inyuma hakagaragara intoki ziteye mu murima urimo imboga nyinshi cyane.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibimera, haragaragara intoki ndetse n'ibigori ariko bitarera neza n'igiti kinini.

Inzira isa nk'iyagutsemo irimo ibibabi byumye biri hasi, ikaba ikikijwe n'ishyamba riteyemo ibiti birebire cyane by'inturusu.

Ahantu hagaragara hari ibimera by'ubwoko bitandukanye, hagaragara ibyatsi bigufinya cyane ndetse n'utundi duti dufite amababi matoya.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hakagaragara igiti kinini cyeraho ibimera bita ipapayi ndetse n'insina.

Ishyamba rinini rigaragara ririmo amoko atandukanye y'ibyatsi bya kimeza, hakaba hateyemo ibiti birebire cyane bifite amababi matoya.

Ahantu hagaragara nk'aho hari amoko menshi y'ibyatsi, hakaba hameze nko mu gisambu, hateyemo ibiti binini, hakaba harimo icyo bakasemo kabiri.

Ishyamba rinini rigaragara, ririmo amoko atandukanye y'ibyatsi, hakaba hagaragaramo ibiti birebire cyane, bifite udushami dutoya.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera ndetse n'ibyatsi bya kimeza bigaragara hasi, hakaba hari igiti giteyemo kitagaragara hejuru.

Umurima ugaragara uhinzemo ubwoko bwinshi bw'ibimera, iruhande hakaba hari n'ibyatsi bya kimeza hari insina ndetse n'ibiti bihakikije.

Ishyamba rigaragara, ririmo amoko atandukanye y'ibyatsi bya kimeza, hakaba harimo ibiti birebire, bifite amashami menshi.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibyatsi, hakaba hagaragaramo n'ibiti by'amoko menshi, harimo insina ndende zitareraho ibitoki.

Umurima ugaragara munini uri hagati mu ishyamba hakaba hateyemo ibiribwa bitandukanye, hakagaragara ibiti byinshi cyane bifite amashami mato.

Umugabo uhagaze mu murima utagaragara neza mu isura, akaba yambaye umupira w'amaboko magufinya ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, imbere y'iwe hari imbuto bita ibinyomoro.

Umurima uri hagati mu ishyamba, ukaba uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibimera yaba ibiribwa ndetse n'ibyatsi bya kimeza, ibigaragara ni ibishyimbo biri kumera.

Ishyamba rinini rigaragara, ririmo ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibyatsi bya kimeza, hakaba hagaragaramo ibiti binini cyane bifite amashami mato.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hateyemo kandi insina nyinshi zitareraho ibitoki, inyuma hakagaragara ibiti.

Ishyamba rigaragara, hasi hakaba hari amoko menshi y'ibyatsi ya kimeza, hakaba hagaragaramo ibiti birebire, bigiye bifite utubabi dutoya.

Umuhanda w'igitaka utagaragara neza wose, impande zawo hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti byo mu moko atandukanye, impande hakaba hari insinga zica hejuru.

Umurima ugaragaramo ubwoko bwinshi butandukanye bw'bimera, harimo uduti dutoya tugiye dufite amababi menshi ndetse n'ibifite amababi manini.

Umurima munini ugaragaramo amoko atandukanye y'ibiti ndetse n'ibyatsi biri hasi, harimo icy'umwembe, icy'avoka, hejuru hari urusinga ruri kuhaca.

Ameza ateretseho ubwoko butandukanye bw'ibimera, bisa nk'aho ari isoko, haragaragaramo inanasi, avoka ndetse n'abantu bahagazemo.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe amoko atandukanye y'ibiti by'indabyo, mo imbere hakaba hari jaride iteyemo ubwoko bw'igiti bita umukindo.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera bihingwa mu murima, akaba ari pavuro zifashishwa mu gutunganya ibiryo bitandukanye yaba imboga n'ibindi.

Ibase igaragara irimo ubwoko bw'ibimera bitandukanye, hari irimo inyanya ndetse na pinali, irimo imiteja ndetse na tungurusumu.

Abantu bicaye imbere yabo hakaba hari imeza, iriho amoko menshi atandukanye y'ibiribwa inyanya ndetse n'ibitunguru, hari n'imboga zirambitse hasi.

Ameza akozwe mu rubaho agaragaraho amoko menshi atandukanye y'ibimera by'ibiribwa ari ho indimu ndetse n'imyembe na watermelon.

Kimwe mu bimera bihingwa biri mu bwoko bw'imboga bikaba bisa icyatsi, akaba ari imiteja yifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'imboga.

Imbere y'ahantu hari igipangu cyubakishijwe mu ndabyo, hakaba hagaragara ubwatsi buteyemo ibindi bimera, hirya hari inzu itagaragara neza.

Bimwe mu moko atandukanye y'ibiribwa, akaba ari imbuto zigaragara ziri mu ibasi isa umuhondo, akaba ari amatunda n'ibinyomoro.

Kimwe mu bihingwa by'ibiribwa bikunda gukoreshwa cyane bikaba byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye yaba imboga, imvange n'ibindi.

Umurima munini cyane uteyemo amoko atandukanye y'ibimera, hasi hakaba hagiye hashashe ibyatsi byinshi byumye bifasha ibimera kumera neza.

Umudamu cyangwa se umukobwa uko bigaragara, yambaye bote z'umukara n'umupira w'amaboko maremare ndetse n'ingofero y'umukara.

Umurima munini ugaragara urimo amoko atandukanye y'ibihingwa, haragaragaramo ibishyimbo ndetse n'ibigori bitarakura, hari umudamu uri guhinga.

Hanze ahagaragara ko hasimanse imbere y'igipangu kitagaragara neza gifite urugi rw'icyuma, impande hakagaragara amoko atandukanye y'indabyo.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hagaragaramo umugabo wambaye umupira ujya gutukura n'abana babiri.

Ahantu hagaragara amoko atandukanye y'ibiribwa, hagaragara intoryi zifashishwa mu guteka imboga ndetse n'inyanya zitagaragara neza ziri munsi.

Indabyo zigaragara ziriho utubara tw'umuhondo, hirya hakagaragara inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zisakajwe amabati.

Umurima ugaragaramo ubwoko bw'ibimera biribwa bigaragara ko byakuze cyane, hakaba inyuma hagaragaramo ibigori bihahinze.

Kimwe mu bihingwa by'ibimera kikaba ari igiti kirekire cyeraho ubwoko bw'urubuto bita ipapayi gusa zikaba zitarera.

Umurima ugaragara munini cyane, ukaba uhinzemo ibihingwa bitandukanye, hateyemo n'uduti bakunda kwita imishingiriro tuzamukiraho ibishyimbo.

Umuntu ugaragara ku bice byo ku birenge bisa nkaho ari umudamu, imbere y'iwe hashashe imifuka itambitseho amoko atandukanye y'imboga: karoti, inyanya n'intoryi.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba harimo umudamu usa nkaho akuze cyane witeze agatambaro, inyuma yiwe hari ibigori.

Indabyo zigaragara zifite udushami tujya gusa umuhundo, hakagaragara icyapa gikozwe mu cyuma gisize irange ryera cyanditseho amagambo atandukanye.

Isoko rigaragara ririmo amoko menshi y'ibiribwa birambitse ku meza akozwe mu mbaho, harimo ibidegede, imyumbati n'ibijumba.

Umurima urimo amoko atandukanye y'ibimera hakagaragara urugo rw'imiyenzi ndetse n'indi nzu iri inyuma yometseho ibyondo.

Hanze y'inyubako ahagaragara amoko atandukanye y'amatungo, ari zo inkoko ndetse n'ihene itagaragara neza mu gice cyo ku mutwe.

Umurima mutoya urimo imbere ahantu hakaba harimo amoko atandukanye y'ibimera, hari afite utubabi tureture dutoya n'andi mababi manini cyane.

Kimwe mu bimera bihingwa mu murima, kikaba kiri mu bwoko bw'ibiribwa, kikaba ari cyo bita imiteja, yifashishwa mu gutunganya imboga ndetse n'ibindi bitandukanye nka salade.

Umurima munini ugaragara inyuma yawo hakagaragara ibiti byinshi, hakaba harimo kimwe mu bimera byifashishwa nk'imbuto bita ibinyomoro.

Mo imbere mu gipangu ahagaragara akarima k'igikoni gateyemo utuntu dutandukanye, hakagaragaramo abadamu babiri bunamye bari gusoroma.

Hasi ahagaragara itapi iriho amabara atandukanye ay'umutuku ndetse n'umweru n'uturongo tw'umukara hakaba hateretseho avoka ebyiri.

Mo imbere mu isoko rigaragaramo amatara ari kwaka, hakaba harimo ameza menshi agiye afite n'utwugi tw'aho babika imyaka, haragaragara imineke hejuru.

Umurima uteyemo amoko atandukanye y'ibimera, hakagaragaramo ibiti bitandukanye, hari ibiriho kimwe mu biribwa bita avoka.

Umurima uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, haragaragara amatunda atarera neza.

Amoko menshi atandukanye y'ibiribwa by'imboga, hakaba hagaragara intoryi ndetse na pavuro na karoti bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Umurima urimo ubwoko butandukanye bw'ibimera biribwa, harimo umwana wunamye wakoze mu miteja ndetse n'umugabo wambaye ingofero itukura.

Umurima munini ugaragara, hakaba harimo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hasi hashashemo ibyatsi byinshi byumye, hakurya hakagaragara ibindi byumagaye.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibimera byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo imbuto ndetse n'ibindi byifashishwa mu guteka, imboga, imiteja, karoti, pavuro.

Umuntu utagaragara akaba yambaye umupira w'amaboko magufinya ndetse mu ntoki z'iwe akaba afashe kimwe mu bimera bita pavuro.

Igipangu kinini kigaragara cyubakishijwe amatafari ahiye matoya, hakaba hateyeho ibyuma, imbere hakagaragara amoko atandukanye y'indabo.

Ahantu hagaragara amoko atandukanye y'ibihingwa biribwa by'imbuto, hakaba hari ibinyomoro, indimu ndetse n'amatunda.

Hasi ahagaragara ubwoko butandukanye bw'ibihingwa by'ibiribwa, ari byo imboga za dodo ndetse intoryi na karoti na pavuro.

isanduku ikozwe mu mbaho, hakaba hariho amoko atandukanye y'ibiribwa arimo karoti ndetse n'ibibiringanya. Biri mu ibase itukura.

Umurima utewemo kimwe mu bwoko bw'ibiribwa bita ibishyimbo, hakaba hahagazemo umudamu wambaye igitenge, akaba yambaye n'ingofero.

Umurima ugaragara ugiye ukasemo utuntu tw'uduferege, hakaba harimo imyaka itarera neza hakaba hari ibiti bigaragara bihateye.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera by'ibihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora ibintu byinshi, harimo abagikoresha imitobe yo kunywa bakita wotameroni.

Umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura imbere y'iwe hashashe imifuka iriho ubwoko butandukanye bw'ibimera ari bwo inyanya, karoti n'intoryi.

Ameza ateretseho amabase atandukanye, harimo amoko y'ibiribwa menshi, hagaragaramo ibibiriganya ndetse na pavuro n'imiteja.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imyaka itandukanye, hakaba hagaragara bimwe mu byifashishwa nk'imbuto, ari byo umuneke ndetse na voka.

Inyubako itagaragara neza, iruhande rwayo hakagaragara igiti kinini cyane gifite amashami menshi atandukanye, n'utundi duti turi ku ruhande tureture.

Umurima munini ugiye uciyemo utuntu tw'utuyira, ukaba urimo ibimera byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ari byo amashu, hahagazemo umugabo wambaye ingofero.

Ikiyaga kinini cy'amazi atemba gikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti bigaragara, hakaba hari abagabo babiri bari kuhira amazi hasi.

Umurima munini uhinzemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hagaragara amashu, hari umudamu wambaye igitenge akaba ari kuhira.

Umurima munini ugiye uciyemo utuyira, hagaragara umugabo wambaye bote z'umukara n'ipantaro n'umupira ndetse n'ingofero.

Umurima munini uteyemo ibihingwa, akaba ari ibigori byinshi, hari umugabo uhagaze, wambaye isarubeti ndetse n'amarinete.

Umurima munini ugaragara uteyemo kimwe mu bwoko bw'ibiribwa bita ibigori, hakaba hahagazemo umudamu ukuze cyane wambaye ijipo.

Abana babiri b'abahungu bari ahantu hari amazi yiretse, umwe ateruye amabido abiri y'umuhondo, yambaye isengeri ifite ibara ryera.

Ibyatsi bigaragara hirya hakaba hari inyubako nyinshi zisakajwe n'amabati atukura, mu kibuga hakaba harimo abantu batagaragara neza.

Umurima munini, ugaragara, uteyemo amoko menshi y'ibimera, hakurya hakagaragara umusozi munini, hakaba hari n'inzu zubatseho zitagaragara.

Umurima ugaragara uhinzwemo ubwoko butandukanye bw'ibimera, hirya hakagaragara ishyamba ririmo ibiti byinshi, ku musozi hakaba hubatseho amazu atandukanye.

Hagati y'imisozi ahagaragaramo imirima myinshi igiye ikase mu bice hakaba harimo ibimera, hirya hakagaragara ibiti birebire.

Umurima ugaragara uri ahantu mu ishyamba, hakaba hakasemo amaterasi y'indinganire, bagenda bateramo amoko atandukanye y'ibiribwa.

Umurima munini cyane bigaragara y'uko ari bwo ugihingwa kuko nta kimera na kimwe kigaragaramo, hakurya haragaragara imisozi ndetse n'igitoki kigaragara hino.

Umurima munini ugaragara, hakaba hahinzwemo ubwoko bwinshi bw'ibimera, hasi yabyo hakaba hagiye hashashemo ibyatsi byumye.

Inyubako zitandukanye zigaragara zisakajwe amategura, hepfo hakaba hagaragara intoki, hakurya hakagaragara imisozi minini.

Mu kibaya ahagaragara imirima myinshi igiye ikatakasemo, hakaba harimo ibimera bitandukanye, hirya hakagaragara umusozi urimo ibiti byinshi cyane.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugeretse, ikaba isize irange ry'umuhondo ikagaragaraho amadirishya arimo ibirahure, iri mu gipangu kinini.

Hasi mu kibaya ahagaragara imirima myinshi igiye ikasemo ibice bitandukanye, hateyemo ibimera by'amoko menshi, hirya hakagaragara ibiti.

Hasi mu kibaya ahagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, hari amazi atemba ndetse n'imirima ihakikije, hirya hakagaragara imisozi iriho amazu.

Mu kabande ahagiye hagaragara inzu zigiye zitandukanye; hakurya hakagaragara imisozi minini cyane, ndetse imbere hari intoki.

Ahantu hagaragara abantu batandukanye b'abagabo; harimo abambaye amapantaro n'agatuza, hari n'abambaye imipira bafite amasuka bari guhinga.

Hasi mu kibaya ahari imirima myinshi igiye ikatakase mu duce, hakaba hahinzemo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hari n'ibiti biteye ku ruhande.

Akayira gakikijwe n'ibyatsi bigaragara, hirya hakagaragara ubwoko bwinshi bw'ibiti ndetse birebire n'akazu gatoya kahubatse.

Hasi mu kibaya ahagaragara imirima myinshi itandukanye, iteyemo amoko menshi y'ibiribwa, hakagaragara amazu menshi cyane.

Umurima ugaragara uteyemo ibiribwa bitari byakura neza, imbere hakaba hari indi iteyemo ibigori byakuze, hakurya hakagaragara ishyamba.

Mu kabande ahagaragara umurima uteyemo ubwoko butandukanye bw'ibimera. Hakagaragara inzu zubakishijwe ibiti zikaba zisakajwe amabati.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti ndetse n'amatafari. Hakaba hagaragaramo imwe mu matungo bita inka, ikaba ifite amabara atandukanye.

Mo imbere mu nyubako isa nkaho irimo akabati gakozwe mu byuma bigiye bifunze, hakaba hagabanyijemo uduce dutandukanye harimo amagi.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti binini ndetse n'ibindi bitoya bigiye bizirikanyijwe n'imigozi, hari umugabo urimo uri kuvura itungo.

Inyubako igaragara mo imbere, hakaba hagaragaramo amabasi abiri afite ibara ritukura, hanze hakagaragara amwe mu matungo bita inkoko.

Ikiraro kigaragara, cyubakishijwe ibiti bihagaze n'ibitambitse, hakaba harimo inka, hanze hakaba hari amahene ahaziritse n'umudamu wambaye igitenge.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi, ibihagaze ndetse n'ibitambitse, haragaragaramo imwe mu matungo bita ingurube.

Umuhanda w'igitaka ugaragara wagutse, impande hakaba hari ibyatsi hakaba kandi hagaragara amatungo menshi y'ihene n'igiti kirekire kihateye.

Imwe mu bwoko butandukanye bw'inyamaswa ikaba yitwa dedo, ku gice cyo ku mutwe ifite ibara ritukura ikagira ubwoya n'amababa by'umukara.

Hanze ahagaragara ubwatsi butari bwinshi cyane, hakagaragara bumwe mu moko atandukanye y'amatungo, akaba ari ihene ebyiri zambaye ibiziriko mu ijosi.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti ndetse uruhande rumwe rukaba ruhomyemo ibyondo, harimo imwe mu matungo bita inka ifite amabara atandukanye.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bihagaze ndetse n'ibitambitse, mo imbere hakaba harimo inka ifite amabara atandukanye.

Mo imbere muri sale yubakishijwe ibiti n'amabati, hakaba hakorerwamo ubworozi bw'inkoko haragaragaramo umuntu uhagaze wambaye bote z'umukara.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi bitambitse n'ibihagaze, hakagaragaramo ibyatsi bishashe hasi ndetse n'itungo ry'ihene.

Abantu bahagaze mo imbere mu nyubako akaba ari abadamu ndetse n'abasore bose bafite itungo bakunda kwita inkwavu, hari izifite ibara ryera.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti, bihagaze ndetse n'ibitambitse. Hakaba hagaragaramo amwe mu matungo ari yo inka ndetse n'akanyana gatoya.

Hasi ahagaragara ibyatsi byumagaye ndetse n'urwego bakoresha burira n'ibiti biri ku ruhande, hari itungo bita ihene.

Ibyatsi bihagazemo bumwe mu bwoko bw'amatungo yororerwa mu rugo rw'abantu, akaba ari intama ebyiri imwe ntoya n'indi nkuru.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi bitandukanye, haragaragaramo amwe mu moko y'amatungo magufi bita ingurube.

Ikiraro cyubakishijwe n'ibiti byinshi cyane kandi binini, hari ibihagaze n'ibitambitse, mo imbere hakagaragaramo imwe mu matungo bita ingurube.

Igipangu kigaragara mo imbere harimo inzu, hanze hakaba hateye ibyatsi byinshi hakaba hagaragara amwe mu matungo ari mu bwoko bw'ihene.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibitambitse n'ibihagaze, imbere hahagaze umuntu w'umugabo wambaye isengeri y'umutuku n'ipantaro.

Inyubako ziri inyuma zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye zifite igipangu cy'ibyuma, imbere mu muhanda hari abantu bafite inkwavu mu ntoki.

Ikiraro kinini kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi ibihagaze n'ibitambitse, imbere hagaragara abantu bahahagaze, abadamu ndetse n'abagabo.

Ahantu bisa nk'aho ari ikibaya kigaragaramo amoko atandukanye y'ibyatsi, hakaba hari inka z'imbyeyi ziri kurisha, zifite amabara atandukanye.

Mo imbere mu nzu ahagaragara ko harimo amatungo ari yo inkoko zisa ibara ry'igitaka, zikaba zahuriye ahantu hamwe ziri kunywa amazi.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bihagaze ndetse n'ibitambitse, hakaba hasashemo hasi ibyatsi byinshi, harimo amwe mu matungo bita inka.

Amwe mu bwoko bw'amatungo menshi atandukanye, akaba ari ihene, hari iziritse ku giti n'izindi ziryamye, inyuma hakaba hateye ibigori.

Inyubako zigaragara zisakajwe amabati ndetse n'urugi rukozwe mu cyuma rufite ibara ritukura, hino hakagaragara ifumbire n'inkoko iri gutoramo.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bihagaze ndetse n'ibitambitse, hakaba hashashemo ibyatsi, haryamyemo imwe mu matungo bita ingurube.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi bihagaze n'ibitambitse, haragaragaramo imwe mu matungo bita ihene ifite ibara ry'umweru ikaba iziritse.

Inyubako yubakishijwe ibiti bitambitse ndetse n'ibihagaze, isakajwe ihema, mo imbere hakagaragaramo kimwe mu bimera bita ikigori.

Umugezi ugaragara uri hagati mu ishyamba ukaba urimo amazi ashoka, impande hari ibyatsi bihateye ndetse hakaba n'ibiti bihakikije.

Umurima ugaragaramo ibimera by'amoko atandukanye, imbere hari ibibabi bijya gusa umutuku, inyuma hakagaragara andi mababi menshi atandukanye.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu bindi bice by'umubiri, akaba ahagaze ahameze nk'aho ari mu murima uhinzemo ubwoko bw'ibimera biribwa, ari byo intoryi.

Ihema rigaragara risutseho amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hateretseho igitebo ndetse n'ibasi y'icyatsi idafite ikirimo, imbere hakaba hari ibitunguru n'intoryi.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibimera, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo ibimeze nk'ibisheke ahagana inyuma.

Amazu atagaragara neza akikijwe n'intoki, hino hakagaragara umurima munini urimo ubwoko butandukanye bw'ibimera ndetse n'ahandi hateye ibiti.

Umurima munini ugaragara uteyemo amoko menshi y'ibiribwa, mu bigaragara hari igihingwa cy'inyanya, zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu gutegura amafunguro.

Umurima munini, uhinzemo kimwe mu biribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'imboga, hakaba hari n'igihe gikorwamo salade, bacyita amashu.

Utuntu twubakishijwe ibiti ndetse n'imigano irambije hejuru yatwo, munsi hakaba yicayemo abantu, abadamu bari gushyira utuntu mu dushashi tw'umukara .

Akazu kagaragara gafashwe n'inkingi z'ibyuma, kakaba gasakajwe utuntu tubonerana, hakaba hahinzemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakurya hakaba hari ibiti.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi, ibitambitse n'ibihagaze, hakagaragara umugabo wambaye bote z'umukara ndetse n'isengeri y'ibara ryera.

Mo imbere mu kiraro ahagaragara umugabo wambaye umupira urimo udutubara twinshi, umukara n'umweru, akaba yambaye ingofero y'icyatsi na bote z'umukara.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo akabati kubatswe mu mbaho ndetse n'ikiganza cy'umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, afite agakarito.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi, hasi kikaba kigaragaraho utubaho tugiye duteranyije, harimo abantu babiri, umudamu n'umugabo.

Mo imbere mu kiraro ahagaragara umugabo usa nk'aho asutamye, yambaye ipantaro y'ikoboyi na bote z'umukara ari gusuzuma inka.

Abantu bahagaze ahantu, umwe akaba yambaye bote z'umukara n'isarubeti isa ibara ry'ubururu, akaba ari kuzirika inka ku giti.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi kandi binini, hari ibihagaze n'ibitambitse, hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara umugabo uhagazemo wambaye umwenda w'ubururu, inyuma hakaba handitseho amagambo mu ibara ryera.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero y'umutuku n'umupira w'amaboko magufinya yambaye na bote z'umukara, imbere yiwe hari inka n'umudamu wunamye.

Ikiraro cy'amatungo kigaragara cyubakishijwe ibiti byinshi bitambitse n'ibindi bihagaze, hakagaragaramo abantu babiri umudamu n'umugabo.

Mo imbere mu kiraro ahagaragara abagabo babiri ndetse umwe yambaye imyenda isa ubururu, hagati yabo hakaba hari inka bari kuvura.

Ikibaya kigaragara, hakaba harimo abantu benshi, abana, abagabo n'abadamu, hakaba kandi hakurya hari inzu zitagaragara neza n'ibiti bizikikije.

Abagabo bagaragara bahagaze ahantu mu byatsi, harimo uwambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, hakaba hagaragara inyamaswa ziri mu ubwoko bw'imbwa.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, imbere y'iwe hakaba hari inkoko nyinshi cyane, zifite akabara kenda gusa igitaka.

Imwe mu bwoko butandukanye bwinshi bw'inyamaswa, akaba ari inyoni ntoya cyane ikaba ifite utubara twinshi dutandukanye, ihagaze ku kababi k'igiti.

Mu nzira ahagaragara imwe mu bwoko bwinshi butandukanye bw'inyamaswa, ari bwo inkende, ikaba ifite ubwoya bw'umukara, ku ijosi ikagira ubwoya bwera.

Bumwe mu bwoko bwinshi bw'inyamaswa bukaba buhagaze ahantu hari ibyatsi bisa nkaho ari birebire, hakurya hakagaragara umusozi uteyeho ibiti.

Abantu bahagaze hagati mu ishyamba ririmo amoko atandukanye y'ibiti, bakaba bafite amatoroshi bagenda bamurika bambaye imyenda ijya gusa.

Ikibaya kigaragaramo amazi atemba, hirya hakagaragara umusozi uriho ibiti ariko bigufi, hino hari imwe mu nyamaswa bita inzovu.

Igikuta kigaragara cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere hakagaragara imwe mu bwoko bw'inyamaswa yitwa inkende iteruye akandi gato.

Kamwe mu moko atandukanye z'inyamaswa zibaho ku Isi, kakaba kari mu bwoko bw'iziguruka gafite amabara atandukanye umutuku, umuhondo n'umukara.

Hasi mu ishyamba ahagaragaramo amoko atandukanye y'ibyatsi ndetse n'ibiti hakagaragara amwe mu moko y'inyamaswa bita inzovu.

Ishyamba rigaragaramo amoko menshi atandukanye y'ibiti, hasi hakagaragara amababi y'ibiti yumye ndetse n'ibyatsi byinshi bitandukanye.

Ishyamba rigaragara rinini ririmo amoko y'ibiti atandukanye, hakaba hari ikiraro gikozwe mu migozi kiri hejuru, gihagazeho abantu batatu.

Amwe mu moko menshi atandukanye y'inyamaswa ziba mu ishyamba, akaba ari inkende zifite amoya asa umukara ndetse n'andi asa umweru ku gice cyo ku mutwe.

Kamwe mu moko y'inyamaswa zibaho nyinshi ikaba ari inyoni isanzwe iguruka, ifite amabara menshi atandukanye.

Imwe mu moko atandukanye menshi y'inyamaswa ziba mu mashyamba atandukanye, akaba ari ingwe ifite amabara menshi atandukanye.

Kamwe mu bwoko bwinshi butandukanye bw'inyamaswa akaba ari inyoni isanzwe iguruka, ikaba ihagaze ku giti kitariho ishami na rimwe.

Imwe mu moko y'inyamaswa ziba mu ishyamba, iba iri ahantu mu kibaya, iri mu bwoko bw'ingwe ikaba ifite utubara twinshi dutandukanye.

Imwe mu moko menshi atandukanye y'inyamaswa ziba mu ishyamba, ikaba ihagaze ku ishami ry'igiti ritariho ikibabi na kimwe.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere y'aho hakaba hari ikigega gikozwe muri purasitike, kibika amazi.

Imwe mu moko atandukanye menshi y'inyamaswa ziba mu ishyamba, akaba ari ingwe iryamye hejuru mu giti, igifite utubara dutandukanye.